Idirishya rifunguye, ririmo amacupa y'ibirahuri, arimo n'ibintu bashyizemo ateretse, hari ayuzuye, hari n'atuzuye.

Abakozi bakora muri hoteli, bambara imyenda ifite isuku y'umweru n'ingofero zabugenewe, kugira ngo umukiriya yinjire abone byose bimeze neza.

Abaganga biga kuvura bagomba kugira ibyo bigiraho. Ni muri urwo rwego ubona ko bahagaze barimo kumva amabwiriza y'umwarimu.

Abana biga bakora kubyo bari kwiga, nibo bana bashobora gufata neza, ubwo rero buri cyiciro gifite uko cyiga, ariko abana bato bafata mu mutwe ibyo bize neza, iyo bari kubikoraho.

Iki gishobora kuba ari icumba ca situdiyo bafatiragamo amafoto, cangwa se n'indirimbo bakazitunganya, ariko iyo bamaze kuzitunganya buriya zivagamo umuziki guryoshye cane.

Abanyeshuri biga cyane cyane ibijyanye n'ubuganga, nibo bakoresha imashini nk'izingizi z'ikoranabuhanga, cyane cyane abashaka kureba utuntu duto tutabonwa n'amaso.

Abana biga imbere y'abarimu babo bishimye, kandi babereka n'icyo bakoraga mbere y'uko mwarimu abagira inama. Babanza bagitekerezaho neza.

Iterambere rimaze kugerwaho mu gihugu cyacu ni ryiza, kubera ko urabona ko bano ba njeniyeri bambaye bambara neza ibisarubeti by'ubururu, bari no gukanika ikigega cy'amazi.

Abanyeshuri biga ibyerekeranye n'imyuga, ni abantu bahita bagera ku iterambere vuba, kubera ko imyuga ntiwagira ikibazo warayize, ni yo igezweho.

Amafoto ari kugaragaza abanyeshuri, bari kwiga gukoresha imashini zitandukanye, mu mwuga wabo. kandi ni ikoranabuhanga ryiza.

Umurimo wo kudoda umuntu iyo awize akenera icyarahani cyangwa akagikodesha, ariko umurimo w'ubodozi ukunzwe kwigwa cyane n'abana b'abakobwa.

Amashuri yigisha imyuga akunze kugira amafaranga, kubera ko ibyo abanyeshuri bigaga bari gukora, byose biragurishwa bikabonekamo amafaranga yo kwifashisha.

Abaganga bari gukora imyitozo yo kuvura umurwayi ku gitanda. Urabona ko icyo gitanda kiryamyeho ikintu barimo kwigiraho.

Aha hashobora kuba ari mu ishuri ry'abatekinisiye bigisha, bigishwaga ibyerekeranye n'ikoranabuhanga. Kubera ko ndikubona bambaye ibisarubete n'ibindi.

Abakora mu ruganda bagomba kwigengesera, kugira ngo badafatwa n'umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo kandi n'abantu bafite icyo bamarisha ikiva mu ruganda batakibura.